Uburezi bubaga bwiza iyo twigiraga mu byumba byubatswe neza birimo ameza manini ndetse n'intebe zo kwicaraho kugirango ngo igihe cyo kwiga nikigera twicare dutekanye, kandi nitugera n'igihe cyo gufata amafunguro turye twisanzuye kandi hakaba hubatswe neza hagerwa n'urumuri neza.

Uburezi ni inkingi y'iterambere cane cane iyo abana bacu bigiraga mu mashuri gwubatse neza, gafite intebe zihagije ndetse n'ikibaho, kandi gasize amarangi kugira ngo abana bigire ahantu hatekanye, kandi hafite isuku nziza cane.

Kubaka ibigo by'abashuri ni ingirakamaro kuko abana baza kubyigamo bakunguka ubumenyi ,kandi kugira ibibuga byubatse neza bakiniramo, nk'ikibuga cya basikete cyubatse neza gituma badakomereka ni ingirakamaro kuko abana bazamuriramo impano zabo, maze bakiteza imbere.

Kwiga ni inkingi idufatiye runini, nko kwiga ubuganga bwo kuvura amatungo, kuko bidufashaga kubona amafaranga, kandi n'amatungo gacu gagakira, kuko gaba gabonye abaganga.

Kwiga ni ingirakamaro, aho tugomba kohereza abana ku ishuri tubahaye ibikoresho by'ishuri ndetse n'impuzankano ibaranga, aho biga gucuranga imiziki itandukanye ndetse no gucuranga, maze abanyeshuri bakishima kandi bakazamura impano za bo, bakaniteza imbere.

Kujana abana ku ishuri ni byiza tubahaye ibikoresho by'ishuri harimo n'ibisarubeti by'ubururu, kugira ngo bige ubumenyi butandukanye nko kwiga kubaka, aho bibafashaga iyo bamaze kwiga kwihangira imirimo zitandukanye, nk'ubwubatsi maze na bo bakaziteza imbere babikesha uburezi bahawe aho bigaga.

Kwiga ni ingirakamaro aho tujaga kwiga twambaye impuzankano, amataburiya g'umwe, ingofero z'umweru, amajipo n'amapantaro g'umukara, tukamba n'udupfukantoki kugira indega zitadukata tugahuriza hamwe imbuto twateguye n'ibiribwa kugira ngo dukore ubushakashatsi tubivanga maze nitumara kubyiga tuzabikore biduteze imbere.

Kwiga ni ingirakamaro, aho tugomba kohereza abana ku ishuri tubahaye ibyangombwa by'ishuri nk'imyenda z'ishuri, aho biga kudoda bafite imashini bigiraho maze bikazabafasha bamaze kwiga badodora abaturage batandukanye, maze bikabafasha kubona amafaranga, bakiteza imbere babikesha amashuri bize.

Kwiga ni inkingi y'iterambere, aho tugomba kujana abana kwiga tubahaye ibikoresho nk'amataburiya n'ingofero, aho bigaga gusudira ibikoresho bitandukanye nk'amadirishya, inzugi n'ibindi bifashishije umuriro gw'amashanyarazi, aho iyo barangije kwiga bazaga bakabishyira mu bikorwa maze na bo bakiteza imbere babikesha uburezi bahawe.

Kwiga ni ingirakamaro， nko kujana abana kwiga kudoda aho babaga bafite imashini zo kudoda imyenda zitandukanye， bakiga， maze bakazarangiza bakiteza imbere，badodera abaturage batandukanye， bifashishije bwa bumenyi bakuye mu ishuri， maze nabo bakiteza imbere mu bikorwa byabo bitandukanye.

Kwiga ni byiza aho duhurira ku ishuri twambaye impuzankano. Amajipo y'ubururu, amashati y'umweru. Ndetse dufite n'imashini twigiraho ubudozi, aho bidufasha tumaze kwiga maze tukiteza imbere, aho tuba tudodera abantu batandukanye.

Kwiga ni ingirakamaro nko kwiga ubwubatsi, aho tuba twambaye imyenda yabugenewe nk'ibisarubeti, ingofero zituma tutangirika, udupfukamunwa dutuma tudahumeka umwuka mubi, kandi iyo tumaze kubyiga tujya ahantu hari gukorerwa ubwubatsi tukabikora, tukiteza imbere, tubikesha ahandi twabyize mu ishuri.

Kwiga ni ingirakamaro. Nko kwiga gusudira ibikoresho by'ibyuma bitandukanye, twifashishije umuriro gw'amashanyarazi. Aho tubikoraga twambaye imyenda zabugenewe nk'isarubeti, twambaye udupfukantoki, ndetse n'ingofero ku mutwe ifite ikirahure zituma urumuri rw'ibyo turi gusudira rutatwica amaso ga yacu.

uburezi ni inkingi y'iterambere, aho tugomba kohereza abana ku ishuri bajyanye ibikoresho by'ishuri, kandi bambaye impuzankano nk'imyenda y'ishuri nkamajipo amapantaro asa, ndetse n'amashati n'imipira bisa, n'amakaye bagomba kwigiramo, kandi bakigira mu mashuri meza, afite amadirishya n'ibirahuri byinjiza urumuri mu ishuri, ndetse asize namarangi.

Kwiga ni inkingi y'iterambere ku bana b'igihugu aho bigiraga mu mashuri gubatse neza gasize amarangi mo imbere gafite ikibaho cyiza kandi hari n'amadirisha gazanaga urumuri, bakigira kuri za mudasobwa kugira ngo bamenye ibijyanye n'aho isi igeze, kandi hariho n'ameza gagomba guterekwaho izo mudasobwa bigiragaho, na mwarimu akaba abayoboraga kugira ngo babyige neza.

Iyo turi ku ishuri tugomba kwambara imyenda z'ishuri, twaja kurya tukagendera hamwe, tukajya injyo yuzuye ndetse tukongeraho n'imbuto nk'imineke zihiye neza kandi twicaye ku meza manini ndetse n'intebe zabugenewe kugira ngo turye twumva dutekanye.

Kwiga ni inkingi y'iterambere. Aho nk'abanyeshuri bambaraga impuzankano bakajana n'abayobozi babo, bafite ibikoresho bifashishaga bari mu bukerarugendo, aho babaga bagiye gusura ibintu nyaburanga kugira ngo nibamara kwiga, nabo bazabikore bajye bayobora abandi babereka ibyo byiza, babikesha kwiga mu mashuri gabo barihiwe n'ababyeyi.

Kwiga ni ingirakamaro aho tugomba kohereza abana ku ishuri ,tubahaye imyenda y'ishuri ibaranga, kandi tukabaha n'ibikoresho bazifashisha ,aho bigira hamwe nko gukora ibijyanye n'ibikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi ,maze bazarangiza kwiga bakaza bakabishyira mu bikorwa ,bakiteza imbere kuko baba barigiye ahantu hasa neza ,n'amashuri asize amarangi, ndetse n'amadirishya atuma babona ,kandi asakaye neza.